Uburezi ni inkingi y'iterambere ,aho abanyeshuri n'abarimu bagomba kwigira, bakanigishirizwa mu mashuri yubatse neza atuma biga badafite impungenge, maze bagahabwa ubumenyi bufite ireme.

Uburezi ni inkingi y'iterambere, aho nk'ababyeyi bagomba kohereza abana ku ishuri, maze abarezi nabo bakabaha ubumenyi bakazarangiza kwiga babwifashisha mu bikorwa bitandukanye, bakiteza imbere mu bikorwa byabo.

Uburezi ni inkingi y'iterambere, aho ababyeyi bagomba kohereza abana ku mashuri abarezi bakabaha ubumenyi bufite ireme, kandi abana bagakura bafite uburere bwiza kubera ko baba bararezwe neza.

Uburezi ni inkingi y'iterambere nko kwiga imyuga, aho bamwe bigiramo ubukanishi, nko gukanika ibinyabiziga bigiye bitandukanye, maze na bo bakazazamuka mu iterambere, aho bagomba kubikora bambaye n'imyenda yabugenewe kugira ngo uburezi bahabwa buzabafashe kwiteza imbere.

Uburezi ni inkingi y'iterambere, aho tuba tugomba kohereza abana ku ishuri bakajya kwiyungura ubumenyi, aho bajya muri rabo mu gusuzuma ibintu bitandukanye, maze bakarangiza bafite ubuhanga buhanitse, bakabasha gukorera igihugu, nabo bakiteza imbere babikesha ubumenyi bahawe mu mashuri bizemo.

Ni ngombwa ko abana bajya kwiga bakigira mu mashuri yubatse neza, kugira ngo barusheho gukarishya ubumenyi, maze bazakure bafite icyizere cyo kuziteza imbere, kandi babikesha kwiga neza no kwigira ahantu heza.

Ni byiza ko abanyeshuri bajya kwiga mu bigo by'amashuri ,bifite ibikorwa remezo byiza bibafasha kwiga neza nk'aho baba bafite ibikoresho byifashishwa mu gukora ubukanishi ,ububaji ndetse n'ibindi maze bakimura ubumenyi bakazarangiza bakiteza imbere.

Uburezi ni inkingi y'iterambere rirambye, mu gihugu cyacu, aho ababyeyi bagomba, koreza abana kumashuri, maze bakiga neza, bagahabwa ubumenyi n'abarimu babo, kugirango bazarusheho kwiteza imbere, mu gihe kizaza, babikesha uburezi bavomye, mu ishuri.

Ni byiza ko umuntu wese agera mu ishuri agahabwa ubumenyi， aho bamwe bigiramo nko kudoda ibintu bigiye bitandukanye， bifashishije icyarahani， maze bakiteza imbere babikesha ubumenyi bavomye mu mashuri bizemo.

Uburezi ni inkingi y'iterambere nko kwiga imyuga n'ubumenyi ngiro. Aho abanyeshuri bigiramo uburyo bwo kwihangira imirimo igiye itandukanye maze bakazarushaho kwibeshaho mu buzima bwabo buzaza.

Kubaka ibigo by'ishuri bimeze neza ni ingirakamaro kuko bituma ababyeyi bazana abana babo bakaza kuharererwa maze bagahabwa ubumenyi butandukanye, aho nk'aho binjira baba barasizeho ibiranga ikigo cyabo.

Kwiga ni byiza cyane， nko kwiga umuziki mu mashuri， aho abanyeshuri bigishwa n'abarimu babo， uburyo bacuranga， mu gucuranga sembare，piyano，gitari，maze bakazasoza bihangira imirimo， babikesha ibikoresho bifashishaga bakiga mu ishuri.

Uburezi ni bwiza cyane, nk'ababyeyi baba bagomba kohereza abana ku mashuri bakajya kwiga ibintu bigiye bitandukanye, nko kwiga umwuga w'ubwubatsi aho bahurira hamwe bagahugurana bifashishije ibikoresho bitandukanye nk'amanivo, metero ndetse n'amanyundo kugira ngo nibarangiza kwiga bazihangire imirimo.

Uburezi ni bwiza cyane nko kwiga ibijyanye n'ubuvuzi, aho abanyeshuri biga uko bavura umuntu agakira agasubira mu buzima busanzwe kandi indwara yaramu base, bityo nabo bakarushaho kuronka amafaranga aturuka mubyo bize mu mashuri.

Uburezi ni inkingi y'iterambere mu gihugu cyacu, aho ababyeyi baba bagomba kohereza abana ku mashuri babaha ibikoresho byose nkenerwa, ndetse bakambara n'iniforume ari yo mpuzankano ituma bagaragara neza, kandi bakiga bashyizeho umwete kugira ngo bazabesheho igihugu mu buzima buri imbere.

Uburezi ni ingirakamaro nko kwiga ubukanishi, aho abanyeshuri biga bambaye imyenda yabugenewe maze bakiyungura ubumenyi, baba barakuye ku barimu baba barabigishije maze bakaziteza imbere basoje kwiga ayo masomo.